Umuntu ufite uruhu rwirabura, uri ahantu hasa icyatsi, wambaye imyenda irimo amabara atandukanye, arimo umuhondo ndetse n'umukara bivanze, imbere ye hari imeza isa umweru yanditseho amagambo.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye bafite uruhu rwirabura, barimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye harimo abicaye ndetse n'abahagaze.

Icyumba gifite idirishya cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe ndetse imbere yabo hari meza ziteretseho ibintu bitandukanye.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi cyane batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, ifite amabara menshi cyane atandukanye, harimo abicaye ndetse n'abahagaze.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe zifite ibara ry'umweru imbere yabo hari imeza iriho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda itandukanye, bicaye ku ntebe zisa ibara ry'umukara imbere yabo hari imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Icyumba kinini cyane gifite ibikuta bisize ibara ry'umweru cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda isa amabara atandukanye imbere yabo hari intebe ndetse n'meza ziriho ibitambaro by'umutuku ziteretseho uducupa tw'amazi ndetse n'ibindi bintu..

Umuntu ufite uruhu rw'irabura wambaye imyenda itandukanye ifite amabara atandukanye ndetse wicaye ku ntebe isa ibara ry'umweru, i ruhande rwe hari imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda ifite amabara menshi cyane atandukanye bicaye ku ntebe nyinshi cyane zifite ibara rimwe ndetse harimo abafite ibikoresho by'ikoranabuhanga.

Icyumba gifite idirishya kicayemo abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura, bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse imbere yabo hari imeza iteretseho uducupa turimo amazi yo kunywa.

Icyumba kinini cyane gifite inzugi nyinshi cyane, gihagazemo abantu benshi cyane batandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse n'umukara giteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, wambaye umwenda usa ubururu ndetse n'umweru, wicaye ku ntebe isa umukara, imbere ye hari imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Abantu batandukanye bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye isa amabara menshi cyane atandukanye, bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari imeza iteretseho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Abantu benshi cyane bicaye ku ntebe ndetse n'abahagaze, bambaye imyenda myinshi cyane kandi itandukanye bafite imeza iteretseho ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye.

Abantu batandukanye barimo abafite uruhu rwera ndetse n'abafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, isa amabara menshi cyane atandukanye, bicaye ku ntebe z'umukara, imbere yaho hari imeza iteretseho ibintu byinshi cyane.

Icyumba kinini cyane gifite imiryango cyicayemo abantu benshi cyane bafite uruhu rwirabura bicaye ku ntebe z'umukara imbere yabo hari imeza iteretseho ibintu byinshi cyane kandi bitandukanye.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, isa amabara menshi cyane atandukanye arimo ay'icyatsi, ay'ubururu, ndetse n'ay'umuhondo.

Ishusho ifite ibara ry'umweru yanditseho inyuguti nyinshi cyane zitandukanye ndetse iriho ibirango byinshi cyane bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye, iriho ifoto irimo inzu nyinshi cyane zitandukanye.

Uburyo bw'ikoranabuhanga abantu bigishwamo buryo ki bagomba kwirinda ibihuha, ndetse n'abantu bashaka kubatuburira bakabatwarira ibintu byabo.

Inzu nini cyane isize amabara menshi cyane kandi atandukanye, ifite amabati asa umutuku ndetse iriho urutsinga rw'amashanyarazi, yometseho ibyapa byinshi kandi bitandukanye.

Igikorwa remezo kirimo ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye, kiri iruhande y'ahantu hateye ibiti byinshi cyane, ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, ndetse hari inzu zubakishijwe amatafari.

Inzu nini cyane ifite umuryango ndetse iteyeho icyapa kinini cyane gifite ibara ry'ubururu ndetse harimo n'amagambo yanditse mu ibara ry'umweru mo imbere hahagazemo umuntu.

Imbuga nkoranyambaga z'ikigo runaka, gikorera mu gihugu, zifite ishusho isa umweru yandikishijwemo inyuguti zisa umukara, ndetse n'imibare isa ibara ry'umukara.

Inzu nyinshi cyane zegeranye kandi ndende zifite ibirahure byinshi cyane, bifite ibara ry'ubururu ndetse zisize amabara menshi cyane atandukanye, imbere yazo hari ibimera byinshi cyane bitandukanye ndetse n'abantu benshi cyane.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, barimo abagabo ndetse n'abagore, bicaye ndetse n'abahagaze, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, bari ahantu hateye ibimera byinshi cyane ndetse hari n'amazu maremare ndetse n'amagufi.

Igikorwa remezo kirekire cyane gikozwe mu bikoresho by'ibyuma ndetse kiriho n'ibindi bikoresho byinshi cyane by'ikoranabuhanga byifashishwa mu itumanaho ry'abantu benshi cyane.

Igiti kinini cyane kandi kirekire, kiriho icyapa gisa ibara ry'umweru, kiriho amagambo menshi cyane, yanditswe mu ibara ry'ubururu ndetse kiriho n'ikirango kirimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru.

Igikorwa remezo kirekire cyane gikozwe mu bikoresho by'ibyuma ndetse kiriho ibintu byinshi cyane bitandukanye, birimo insinga nyinshi cyane ndetse n'ibindi bikoresho bifasheho by'ikoranabuhanga.

Umuhanda munini cyane urimo abantu benshi cyane batandukanye bambaye imyenda itandukanye, ndetse iruhande rwaho hari amazu menshi cyane atandukanye ndetse n'ibindi bimera byinshi cyane bitandukanye.

Inzu ndende cyane isize ibara ry'umuhondo ifite imiryango myinshi cyane kandi irimo ibintu byinshi cyane bitandukanye imbere yayo hari abantu benshi cyane iruhande rwayo hari ikinyabiziga.

Umuhanda munini cyane kandi muremure, uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye ndetse urimo n'abantu benshi cyane batandukanye, iruhande rwawo hari ibikorwaremezo birebire cyane.

Ibimera byinshi cyane ndetse n'ibiti birebire biri ahantu hari igipangu cyubakishijwe amatafari ndetse hari n'ibikorwa remezo birebire cyane biriho insinga nyinshi cyane.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye imyenda y'umukara uri kunyura mu muhanda uri iruhande rw'umurima munini cyane urimo ibimera byinshi cyane bitandukanye ndetse urimo n'ibikorwa remezo byinshi cyane.

Igikorwaremezo kirekire gikozwe mu bikoresho by'ibyuma kiriho insinga nyinshi cyane, cyifashishwa mu kugeza ndetse no kwegereza umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Amabati menshi cyane azengurutse ahantu hari imbuga nini cyane irimo ibikorwa remezo, byinshi cyane bitandukanye, biri mu moko menshi cyane atandukanye, harimo ibikoreshejwe mu byuma byinshi cyane.

Igikorwa remezo kijyana amashanyarazi ku baturage kiri ahantu mu byatsi byinshi cyane ndetse hari n'ibimera byinshi cyane biri iruhande y'inzu isize irangi ry'ubururu.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara uri iruhande rw'ahantu hari igikorwa remezo kirekire cyane kiriho insinga zitwara amashanyarazi mu baturage ndetse hari n'ibimera byinshi cyane.

Inzu nyinshi cyane kandi zitandukanye zifite inzugi ndetse n'amadirishya byinshi cyane, imbere yazo ndetse n'iruhande rwazo hicaye abantu benshi cyane batandukanye ndetse hahagaze n'abandi bantu benshi cyane.

Inzu nini cyane ifite inzugi ndetse n'amadirishya arimo ibirahure isize ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, imbere yayo handitseho ibintu byinshi cyane biri mu nyuguti zisa umweru.

Abantu benshi cyane barimo abagore ndetse n'abagabo bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse n'abandi bahagaze bambaye imyenda itandukanye, bose bari imbere y'inzu yubakishijwe amatafari.

Umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye uri iruhande rw'ibikuta bisize amabara menshi cyane atandukanye ndetse n'ikindi gikuta cyubakishijwe amatafari kiriho idirishya.

Ibimera byinshi cyane bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye, hagati yabyo hari inzira ihagazemo abantu babiri bambaye imyenda isa ndetse bafite ikintu.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara menshi cyane atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure imbere yayo ndetse no munsi yayo hahagaze abantu benshi cyane batandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara menshi cyane atandukanye, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure, imbere yayo hari abantu ndetse hahagaze ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane, yubakishijwe amatafari, ifite amadirishya ndetse n'inzugi, imbere yayo hari ibimera byinshi cyane ibirebire ndetse n'ibigufiya.

Inzu nini cyane kandi ndende zifite amadirishya ndetse n'inzugi zirimo ibirahuri, imbere yazo hari imbuga nini cyane irimo abantu benshi cyane kandi batandukanye, ndetse ihagazemo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye.

Urupapuro runini cyane rufite ibara ry'umweru, rwandikishijweho hakoreshejwe igikoresho cy'ikoranabuhanga, handitseho inyuguti nyinshi cyane, ziri mu mabara y'umukara ndetse n'imibare iri mu mabara y'umukara.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye ingofero ifite amabara atandukanye ndetse wambaye imyenda ifite amabara menshi cyane atandukanye uri iruhande rw'igitambaro kirimo igishushanyo ndetse gifite n'ibara ry'ubururu.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye barimo abafite uruhu rwirabura ndetse n'abafite uruhu rwera , harimo abagore ndetse n'abagabo bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye.

Abantu bicaye bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda yose isa, ndetse bafite impapuro mu ntoki zabo, bicaye ku ntebe ikozwe mu bikoresho by'urubaho.

Icyumba kinini cyane kirimo ibintu byinshi cyane bitandukanye ndetse gihagazemo abantu benshi cyane batandukanye, bafite uruhu rwirabura bahagaze kumurongo, bambaye imyenda myinshi cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Urupapuro runini cyane, rusa umweru, rwandikishijweho hakoreshejwe ikoranabuhanga, inyuguti nyinshi cyane zisa umukara, ndetse n'imibare myinshi cyane isa umukara.

Icyumba kirimo abantu babiri, bafite uruhu rwirabura, bambaye udupfukamunwa dufite ibara ry'ubururu, ndetse n'imyenda ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Abantu benshi cyane bahagaze ku murongo umwe bafite uruhu rwirabura harimo abambaye imyenda isa n'abandi batambaye imyenda isa, ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Icyumba kinini cyane cyicayemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho ndetse hari n'abandi bicaye, imbere yabo bafite imeza iteretseho ibintu bitandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, wambaye imyenda ifite amabara menshi cyane atandukanye, harimo imyenda ifite ibara ry'ubururu n'undi ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umukara umweru ndetse n'ubururu wicaye ku ntebe ifite ibara risa umukara.

Ibimera byinshi cyane birimo ibigufiya ndetse n'ibirebire biri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye birimo ibyikoreye abantu ndetse n'ibindi biriho abantu ku giti cyabo.

Inzu nini cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye iri kwakamo umwotsi mwinshi cyane, imbere yayo hari abantu batandukanye bambaye imyenda ifite amabara menshi cyane atandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure; imbere yayo hahagaze ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, bisize amabara menshi cyane kandi atandukanye.

Ibiti byinshi cyane bifite ibara ry'icyatsi, biri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, ndetse uhagazemo umuntu wambaye imyenda ifite amabara atandukanye.

Abana babiri bafite uruhu rwirabura, bahagaze, bambaye imyenda isa, ifite amabara asa, bahagararanye n'umugore wambaye imyenda ifite amabara atandukanye, ufite uruhu rwirabura.

Ihema rinini cyane risa ibara ry'umweru, ndetse ririho ibitambaro n'ibipapuro biri mu ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo, ryicayemo abantu benshi cyane kandi batandukanye, imbere yaryo hari abantu benshi cyane kandi batandukanye.

Umuntu ufite uruhu rwirabura, wambaye ibintu byinshi cyane, birimo imyenda ifite amabara atandukanye ndetse n'ingofero isa ibara ry'umukara ndetse wambaye n'isaha ku kuboko.

Umugabo ufite uruhu rwirabura wambaye umwenda usa umweru, ufite igikoresho cy'ikoranabuhanga mu ntoki ze ndetse wambaye ku maso ye ibintu bimufasha, kugirango arebe neza.

Icyumba kinini cyane kirimo abantu benshi cyane batandukanye bafite uruhu rw'irabura bambaye imyenda myinshi cyane kandi itandukanye bafashe ku gitambaro gifite amabara menshi cyane gifashe ku cyuma.

Abagabo benshi cyane kandi batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bambaye imyenda itandukanye barimo abagore ndetse n'abagabo n'abana, bari ahantu hari icyapa kinini cyane gisa ibara ry'ubururu ndetse kiriho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Abantu benshi cyane kandi batandukanye, bafite uruhu rwirabura, bambaye imipira isa umweru, iriho ibirango byinshi cyane bitandukanye, ndetse bambaye ingofero zisa ibara ry'umweru, ziriho ibirango byinshi cyane bitandukanye, bafite impapuro mu ntoki zabo.

Umuntu ufite uruhu rwirabura wambaye imyenda myinshi cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye, ku maso ye wambaye ibintu bimufasha kugira ngo arebe neza.

Imbuga nini cyane irimo ibimera byinshi cyane birebire ndetse ihagazemo abantu benshi cyane batandukanye, bambaye imyenda myinshi cyane ifite amabara menshi cyane atandukanye ndetse harimo n'amadarapo menshi cyane afite amabara atandukanye.

Abantu babiri batandukanye bafite uruhu rwirabura bambaye imyenda irimo amabara asa bahagaze bafite ibintu mu ntoki zabo inyuma yabo hari imeza ndetse n'umuntu wicaye.

Umuhanda munini cyane kandi muremure, urimo ikinyabiziga kinini cyane gisa amabara menshi cyane atandukanye, iruhande rw'umuhanda hari inzu nyinshi cyane zitandukanye ndetse hahagaze abantu ndetse n'ibinyabiziga.

Umuferege munini cyane wubakishijwe amabuye, uri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye birimo ibitwara abantu bakeya ndetse n'ibitwara abantu benshi.

Umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye, harimo ibitwara imizigo ndetse n'ibindi bitwaye abantu ku giti cyabo.

Ibimera bifite ibara ry'icyatsi byegeranye n'igikuta cyubakishijwe amatafari, kiri iruhande rw'umuhanda munini cyane, uhagazemo ikinyabiziga kinini cyane.

Ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye birimo ibirebire ndetse n'ibigufi, biteye hagati y'imihanda ibiri, irimo amabara menshi cyane atandukanye ndetse irimo ikinyabiziga.

Umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, bifite amabara menshi cyane kandi atandukanye, iruhande rwawo hari inzu nini cyane isize amabara menshi cyane atandukanye, imbere yayo hahagaze abantu benshi cyane.

Igikuta kirekire cyubakishijwe amabuye, kiri ruguru y'umuhanda munini cyane, uhagazemo ikinyabiziga kinini cyane kandi kirekire gifite amabara menshi cyane atandukanye.

Abantu batandukanye bambaye imyenda itandukanye bahagaze ahantu hari ikinyabiziga kinini cyane gifite ibara ry'umweru ndetse n'ibirahure cyicayemo abantu batandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo abantu batandukanye, ndetse uhagazemo ibinyabiziga binini kandi birebire, bifite amabara menshi cyane atandukanye, ndetse bifite n'ibirahure.

Umuferege munini cyane uri iruhande rw'umuhanda munini cyane, urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse ku rundi ruhande hateye ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane kandi mugari uhagazemo abantu benshi cyane batandukanye, harimo abikoreye ndetse n'abatikoreye ndetse uhagazemo ikinyabiziga kinini cyane kandi kirekire, gisa ibara ry'umweru.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umukara ndetse n'umweru, urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye bifite amabara menshi cyane atandukanye.

Umuhanda uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, byikoreye imizigo myinshi cyane, ifite amabara atandukanye, ndetse uhagazemo abantu benshi cyane batandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye, arimo umweru ndetse n'umukara, uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, bifite amabara menshi cyane atandukanye.

Icyapa gifite ibara ry'umutuku kiriho ikirango gifite amabara atandukanye, ndetse cyegeranye n'ibiti birebire cyane, ndetse n'ibyatsi biri iruhande rw'umuhanda, munini cyane uri kunyuramo ikinyabiziga.

Umuferege munini cyane wubakishijwe amabuye uri iruhande rw'umuhanda munini cyane, urimo ikinyabiziga kinini cyane kandi kirekire gifite amabara menshi cyane atandukanye.

Umuferege munini cyane wubakishijwe amabuye, uri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo ikinyabiziga kinini cyane kandi kirekire gisize amabara menshi cyane atandukanye.

Ibiti byinshi cyane bifite ibara ry'icyatsi, biri iruhande rw'umuhanda munini cyane, uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye biri kugana mu byerekezo bitandukanye.

Inzu nini cyane ziri iruhande rw'umuhanda, urimo abantu benshi cyane ndetse uhagazemo ibinyabiziga bifite amabara menshi cyane kandi atandukanye, arimo umweru, ubururu ndetse n'umukara.

Inzu nini cyane kandi zitandukanye zakaho amatara menshi cyane kandi asa amabara atandukanye, imbere yazo hari ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye ndetse hahagaze n'abantu benshi cyane.

Ibimera byinshi cyane bitandukanye birimo ibirebire ndetse n'ibigufiya biri iruhande rw'umuhanda munini cyane usa umukara urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi biri kujya mu cyerekezo gitandukanye.

Imbuga nini cyane iteyemo ibyatsi ndetse n'ibindi bimera bitandukanye, irimo intebe zicayemo abantu benshi cyane bambaye imyenda myinshi cyane itandukanye ,hirya yabo hari abantu benshi cyane bahagaze ndetse n'inzu yubatse.

Imbuga nini cyane kandi nziza, ifite uruhande rumwe ruteyemo ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye ndetse yubatsemo inzu nyinshi cyane zubatswe mu mbaho, ziriho ibintu byinshi cyane bitandukanye.

Icyapa kiri ahantu hasa ibara ry'umweru. Gifite amabara menshi cyane kandi atandukanye. Arimo umukara ndetse n'umweru, gishushanyijeho n'igishushanyo.

Icyapa kiri ahantu hasa umweru gifite ishusho ya mpande eshatu kirimo amabara atatu yose atandukanye arimo umutuku, umweru, ndetse n'umukara.

iIimera byinshi cyane kandi bitandukanye bijombyemo icyapa kinini cyane kandi gifite amabara menshi cyane atandukanye, byose biri iruhande rw'umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye.

Icyapa kiri ahantu hasa ibara ry'umweru, gifite ishusho ya mande enye, kirimo amabara menshi cyane, kandi atandukanye avanze arimo umukara ndetse n'umuhondo.

Icyapa kiri ahantu hasa ibara ry'umweru gifite ishusho ya mpande eshatu gifite amabara atandukanye arimo umutuku ndetse n'umukara n'umweru ndetse gishushanyijeho ibintu.

Icyapa gifite mpande eshatu kiri hejuru, gifite amabara menshi cyane kandi atandukanye, arimo umutuku, umukara ndetse n'umweru, inyuma yacyo hari inzu icururizwamo ibintu bitandukanye.

Igare rihagaze iruhande rw'ibimera byinshi cyane birimo ibirebire ndetse n'ibigufi biri inyuma y'ibyapa bibiri bifite amabara menshi cyane atandukanye arimo umukara, umweru ndetse n'umutuku.

Ibimera byinshi cyane birimo ibirebire ndetse n'ibigufiya, bisa ibara ry'icyatsi, biteretsemo icyapa kinini cyane, gifite amabara menshi cyane atandukanye, arimo umutuku umweru ndetse n'umukara.

Inzu nini cyane kandi ndende zifite amadirishya ndetse n'inzugi birimo ibirahure, imbere yazo hari imbuga nini cyane ihagazemo abantu batandukanye ndetse n'ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Inzu nini cyane kandi ndende yubakishijwe amatafari, ifite inzugi ndetse n'amadirishya birimo ibirahure imbere yayo hari imbuga ihagazemo abantu ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Inzu nyinshi cyane kandi zitandukanye, imbere yazo hari ibinyabiziga bihagaze byinshi cyane ndetse hari n'abantu benshi cyane batandukanye, iruhande rwazo hari umuhanda munini cyane urimo ibinyabiziga.

Inzu nyinshi cyane zegeranye, zifite amabara atandukanye ndetse n'amabati menshi cyane afite amabara atandukanye, ziri ahantu hari ibimera birebire ndetse n'ibigufiya.

Inzu nyinshi cyane kandi zitandukanye zifite igipangu ndetse n'urukuta rwubakishije amatafari, imbere yarwo hari ibimera byinshi cyane kandi birebire bisa ibara ry'icyatsi.

Umuhanda munini cyane kandi muremure urimo abantu babiri batandukanye ndetse uri hagati y'inzu nyinshi cyane zitandukanye, zifite amabara menshi cyane atandukanye.

Inzu nini cyane isize ibara ryerurutse, ifite amadirishya menshi cyane iruhande rwayo hari igipangu kinini cyane, gifite igikuta cyubakishijwe amatafari, iruhande rw'igikuta hari ibimera byinshi cyane.

Inzu nyinshi cyane kandi zitandukanye zisize amabara menshi cyane atandukanye, zirimo ingufiya ndetse n'indende; ziri ahantu hateye ibimera byinshi cyane bitandukanye, birimo ibirebire ndetse n'ibigufi.

Inzu nini cyane kandi ndende isize amabara atandukanye ndetse ifite amadirishya n'inzugi birimo ibirahure, imbere yayo hahagaze ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye.

Umuhanda munini cyane usizemo amabara menshi cyane kandi atandukanye, urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye, birimo ibinini ndetse n'ibitoya, iruhande rwawo hateye ibiti byinshi cyane.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye, arimo umukara ndetse n'umweru, ndetse uteyemo ibimera byinshi cyane, uri kunyuramo ibinyabiziga.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye, arimo umweru, umuhondo ndetse n'umukara, uhagazemo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye, bifite amabara menshi cyane atandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara, uri iruhande y'ahantu hateye ibimera bisa icyatsi bigufiya kandi ni birebire, hari umusozi munini cyane wubakishijwe amabuye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye arimo umuhondo, umukara ndetse n'umweru, harimo ibinyabiziga byinshi cyane bitandukanye ndetse urimo n'abantu benshi cyane batandukanye.

Umuhanda munini cyane kandi muremure usizemo amabara menshi cyane kandi atandukanye, arimo umweru ndetse n'umukara, urimo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye iruhande rwawo hateye ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane usizemo amabara menshi cyane kandi atandukanye arimo umuhondo, umweru ndetse n'umukara. Urimo abantu benshi cyane kandi batandukanye, iruhande rwabo hateye ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane atandukanye arimo umuhondo umweru ndetse n'umukara urimo ibinyabiziga bitandukanye ndetse urimo abantu benshi cyane batandukanye, ruguru yawo hari inzu ndetse n'ibimera byinshi cyane bitandukanye.

Umuhanda munini cyane urimo amabara menshi cyane kandi atandukanye, arimo umweru ndetse n'umukara, uhagazemo ikinyabiziga ndetse urimo n'abantu benshi cyane batandukanye.

Ibimera byinshi cyane birebire ndetse n'ibigufi biri hagati y'imihanda ibiri yegeranye irimo amabara menshi cyane arimo umweru ndetse n'umukara n'umuhondo ndetse harimo ibinyabiziga.

Ibimera byinshi cyane kandi bitandukanye, ibirimo ni ibirebire ndetse n'ibigufi. Bifite amabara atandukanye, hagati yabyo hari umuhanda munini cyane kandi muremure urimo ikinyabiziga.

Ibimera byinshi cyane birimo ibirebire ndetse n'ibigufi bifite irangi ry'icyatsi biri hagati y'umuhanda urimo amabara y'umweru ndetse n'umukara uri kunyuramo ibinyabiziga byinshi cyane kandi bitandukanye.